Umuryango wa papa na mama n'abana babiri b'abakobwa, bakoresha radiyati yacu isi ntisakaye ntiwamenya igihe inkuru yacu y'ubuzima yarangirira twasigahe abacu abo dukunda n'imiryango yacu?

Ubwishingizi bw'inkoko bwo muri radiyanti yacu umworozi yishyura mirongo itandatu ku ijana leta ikamuha nkunganire ingana na mirongo ine ku ijana by'igiciro k'ubwishingizi bw'inkoko. Inkoko zishingirwa, inkoko zitera amagi, n'inkoko z'inyama, iminsi cumi n'itanu inkoko ivutse.

Iduka ricuruza imyenda, ingofero, amashati, amajezi yo kwambara, ingofero z'imbere hakaba n'iz'ibigara, iz'imihondo iz'imituku, imyenda y'amabara yose.

Abantu batatu bahagaze imbere y'imodoka, imodoka y'umweru bari bamaze kuyigura ni imodoka nshyashya itari yambara purake n'imwe, bayiguze mu Kagera motozi, ni imodoka y'umweru ifite n'antene hejuru.

Inoti z'igihumbi igihumbi, hari akamashini kazibara kanditsemo ijana umuntu uri kubara izo noti azifite muntoki.

Uburyo bwo kwishyura online ukoresheje paypall, cyangwa ugakoresha ikarita. amafaranga yo kwishyura ni amadorari ijana, hari uburyo bwo kwishyira ukoresheje: VISA, MASTERCARD, DISCOVER, PAYPALL. gusa hano uburyo bwakoreshejwe ni paypall. ni uburyo bwo keredita cyangwa kudebita ukoresheje paypall.

Aho umuryango bavunjishirizamo amafaranga, ufite icyapa cyanditse ikaze biro dishanje, ufite ibirahuri birebire biri kumwe n'inzugi zazo, imbere harimo umuntu wicaye wambaye ishati y'umweru utanga serivise.

Ndikubina salo nziza ifite akameza keza gateretse. Umufariso mwiza, intebe nziza zaa, zegamirwa nziza zifite imifariso myiza, amabara meza. Salo nziya y'amakaro kunkuta, hasi ni uko. Hirya hakaba hari ipipa cyiza, hirya y'igipipa cy'ubururu.

Ni kuri pisine hakurya hari ahantu baruhukira, ari intebe baryamamo. Hakaba n'ahatwikiriye za ntebe ziryamamo abantu babiri; ni ahantu h' agahoteri.

Aha ngaha ndikubona ni mu isoko, hari abantu bacuruza inkweto, abari kujyayo n'abari kugura inkweto, imyenda ndabona ko nyine iri ni isoko. Isoko ririmo ibintu byo kugurisha, inkweto, imyenda cyane cyane ibyambarwa.

Isoko bacuruza utumaleti, udukoze muri kwire ,udukoze mu bitenge, tudodesheje mumashini, abantu bari gucuruza bafite umusatsi mwinshi, abagore bateze udutambaro.

Aya ni telefoni muri apulikasiyo ya airtel igaragaza ushobora kuguriraho amaingte ukaguraho band ukohereza umuntu amafaranga bidasabye bidasabye ko ukanda ya mibarerwayo ukabikorera honline

Ari hano ndi kubona n'akabati n'akabati kuminsi y'icyapapa cyalitienne tt kusoneka aho kana kangen magana mirongo ine nagatanu kanyenyeri umunani urwego ukabasha kuryoherwa n'byagendane n'ibijyanye na nel p ngashogura telefone ukaburakiga bat ni buntu.

Inzu igurishwa ifite fulo ebyiri, ifite ibyumba bibiri, ikagira ama dushe abiri, ifite igipangu cyiza kizengurutse, iteye amarangi meza amadirishya meza

Inzu nziza igurishwa, ibifite esakaliye nziza, iri ku madorari magana abiri, iri muri Kigali, ushaka kuyigura wahamagara zeru karindwi umunani mirongo itandatu cumi na gatandatu numunani icyenda. Ifite ibirahuri byiza, amadirishya meza, amarangi meza...

Aratanga ikiganiro runaka kubyo kwiteganyiriza bijyanye na RSSB, mitiwere, akaba ari kubasobanurira kumushinga runaka bagiye gukora.

Iyi ni superimarishe irimo amasabune yamalikide. Imwe ni superimarishe icuruza ibintu by'isuku, amasabune, ibintu byo gukoresha mu isuku.